Abaturage biganjemo igitsina gore aho barigutunganya ubutaka buzaterwaho imyaka. Ubona ko bafite amasuka hirya y'aho hari hegitari naho ni aho barigutunganya hari ibyatsi byinshi bari gukora.

Abantu babiri bari gutunganya umurima w'inyanya, aho umwe ari kurya igisa na karoti, undi we ntabwo ari kurya, hirya gato hari umurima udatunganyije bigaragare ko na wo uzagera igihe ugatunganywa na wo ugahingwamo. Aha bari gukorera isuku harasasiye bigaragare ko hateguwe neza kugira ngo umusaruro uzatere imbere.

Icyapa kigaragaza ko aha hantu haba imiti ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi y'ibyiciro bitandukanye, kuko urabona ko hariho amacupa atandukanye yanditsweho n'ibintu bitandukanye, bigaragara ko aha hantu wahabariza ibikenerwa mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo utera imbere.

Abaturage batandukanye bafite ibikoresho bari gutegura ifumbire kugira ngo bazabashe kuyikoresha mu bihingwa, ubona ko ifumbire imeze neza kuko irasa umukara cyane ndetse igice cyo hejuru kigaragara ko humye, inyuma yaho hari ibiti byari iby'icyatsi, hirya gato hari ahantu hameze nk'ishyamba hari ibiti bigufi, hari n'uri kubareba ku ruhande n'abatagaragara neza.

Mu murima harimo abantu b'ibitsina bitandukanye, bigaragara ko bari gutunganya ifumbire bazakoresha mu buhinzi mu gihe kizaza.

Umumama urimo gutunganya ikawa kuko ari gushyiraho ifumbire mvaruganda, yambaye ikoti, yiteza igitambaro, yambaye n'ijipo bigaragara ko yiteguye gukora kugira ngo hatagira icyamukoma mu nkokora mu kazi ke.

Mu bubiko bw'imiti y'amatungo ndetse n'ubuhinzi bigaragara ko ari aho icururizwa, abantu bariho imiti kugira ngo ibihingwa byabo bizabashe kubonekamo umusaruro mwiza, hariho ubujerekani bwiza bw'umweru, bugaragara ko buriho imiti ifite ubuziranenge.

Ububiko bw'imiti ndetse n'ibikoresho bikoreshwa n'ubuhinzi n'ubworozi ubona ko biri ahantu heza cyane hari amakaro, inzu isa neza ifite amadirishya aho bishobora kubona urumuri, ndetse hariho n'ibiciro bigaragaza amafaranga wagura ibibitswe aha hantu.

Abantu b'ibitsina bitandukanye n'abagore n'igitsina gabo bari mu murima urimo ibihingwa harimo n'ibigori bari kubikorera kugira ngo babashe kugira umusaruro uhagije, ndetse bafashe n'ibyo bari gukoresha harimo utudobo ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo bigende neza.

Imiti ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi ikiri mu makarita, ubona ko itegereje gupakururwa, ngo ibe yagezwa ku baturage babashe kuyikoresha mu mirimo yabo ya buri munsi, bashaka kugira ngo umusaruro wabo utere imbere mu buryo budasanzwe.

Ifumbi y'imborera iri gutwarwa, bigaraga ko iri gukurwa aha ngaha iri ikajyanwa mu murima, aho abaturage bari kwiyitwara bafite udufuka, undi arashaka kuyikorera, undi amaze kumushyiriramo ifumbire ihagije, abandi bari gukoresha ibitiyo, abandi amasuka, kugira ngo itwarwe neza.

Ububiko bw'imiti y'ubuhinzi n'ubworozi, hariho n'ikayi ushobora kuba wandikamo abakiriya cyangwa se ibyaguzwe ndetse n'ibyacurujwe, kugira ngo barebe neza niba bari kunguka cyangwa se hari igihombo bashobora kuba bari kugira mu bucuruzi bwabo. Ubona ko iri ahantu heza haberewe.

Ububiko bw'imiti ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi, hariho akabati bibikwamo ndetse hariho n'amarido agaragaza ko aho bibitse hameze neza kuko hasi hariho imbaho ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'ibindi bikikije ahantu habikwa iyi miti.

Ububiko bw'imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, aho ubona ko hari ububido burimo imiti itandukanye, amakarito ndetse n'ibindi bitandukanye, hari urumuri rwiza bigaragara ko imiti yabo ibona ubushyuhe ndetse n'ubukonje buhagije kugira ngo izatange umusaruro.

Icyapa kigaragaza ko ari faromasi y'amatungo ndetse n'ibikomoka ku buhinzi kuko biri mu macupa ndetse hashushanyijeho n'imbuto zitandukanye bigaragara ko ahantu hakenera inyongeramusaruro ndetse n'indi miti yakwifashasha mu buhinzi n'ubworozi.

Umurima uhinzemo ibitoki aho hari abantu babiri bari gukorera uwo murima, kuko bari gufata ifumbire no kuyitunganya kugira ngo bashyire mu nsina zibashe kwera neza, kugira ngo zizere umusaruro utubutse.

Abantu b'ibitsina bitandukanye, abagore n'abagabo bafi amasuka ndetse n'ibikoresho, bari gutunganya ifumbire bashobora kuzakoresha mu bihingwa, kugira ngo bibashe kwera neza. Iruhande rwaho hariho ishyamba rigaragara nk'iyo batemye. Ibiti nibwo bitangiye gushibuka, ndetse iruhande rwaho bigaragara ko hariho umuhanda n'igikapu cy'umukara.

Umugabo uri gutera umuti ibihingwa kugira ngo bizabashe kwera neza, kuko yupfutse amazuru ndetse n'umunwa kugira ngo imiti ari gutera itamwangiriza, ibihingwa bigaragara ko byakorewe neza kuko birashishe cyane.

Umuganga w'inzobere mu ndwara zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, uri aho babika imiti kugira ngo abashe gufasha abakiriya baje bamugana, kugira ngo abashe kubona imiti bifashisha mu buhinzi n'ubworozi.

Farumasi y'amatungo, hariho umuntu uri kureba niba ibyo yaba yarashoye cyangwa yinjije ari byo, kugira ngo arebe ko ubucuruzi bwe bumeze nk'ubufasha inyamaswa zo mu rugo ko zabaho neza, ndetse n'ibihigwa bitandukanye akabibonera ibikoresho byazo.

Umuntu uri gukorera igihinga ngwa cy'ikawa kugira ngo kizabashe gukora neza, bigaragara ko ikawa yateye imbere yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ingofero, bigaragara ko ari imyenda yo gukoresha mu buhinzi.

Igihingwa cy'urutoki ndetse n'ibindi bitandukanye, hafi hagaragara ko hari ibyatsi bigufi ndetse n'ibindi bikikije. Hirya cyane hariho undi murima utunganijwe ugaragaramo umuceri ndetse n''irindi shyamba rigaragara ko hariho ibiti byinshi.

Umuntu uri gusarura ibihingwa bisa n'ikawa, yenda kwera, kuko ndi kubona intoki ze zifashe kuri iyo kawa. Hasi hariho ibyatsi bitoya, bitari birebire, hakurya hariho inzu bigaragara ko ari ahantu abantu bashobora kuba batuye.

Ubutaka bwatunganijwe neza ndetse hari ikindi gice cyo hirya kidatunganije, hagati hari amazi ashobora kuba yinjira muri ubu butaka kugira ngo ibihingwa birimo bigende neza, bigaragara ko ari ahantu h'igishanga kuko ariho hakunda kugaragara amazi hagati mu murima.

Ibigori biri ahantu heza bifite amababi atoshye y'icyatsi kibisi, hasi bigaragara ko nta byatsi bitoya birimo, bigaragara ko bikoreye neza kugira ngo umusaruro uzabashe kuba mwinshi.

Umurima uteguwe neza urimo imyaka yahinzwe, ndetse n'undi uwukikije ugaragaza ko udateguye, urimo ibyatsi bigufi ndetse n'ibirebire. Bigaragara ko bawuteguye kugira ngo hazateremo ibihingwa ndetse uzabashe kwera neza.

Imbuto y'ipapayi, igice kimwe cyo hejuru cyarahishije, icyo hasi ntikirahisha. Ifite amababi y'icyatsi meza, ariho ikirere cyiza, ndetse bigaragara ko igiti kikigize ari kirekire, imbuto zishobora kuba ziryoshye cyane.

umurima uhinzwamo imyumbati ndetse n'ibindi bihingwa bitunganijwe neza, hakurya hari hegitari kigizwe n'ibiti birebire, hariho n'amazu mugageranye kugira ngo abaturage babashe gusarura ibigwa byabo neza.

Ikawa zahishije ubona ko zenda kugera igihe cyo gusarurwa, ngo zizabashe gutunganywamo ibindi bintu birimo imiti ndetse kugira ngo ba nyirayo babashe gutera imbere kuko ari igihingwa kiza, gishobora guteza umuntu imbere iyo gitunganyijwe neza.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye harimo ibitoki ndetse uwo ku ruhande uratunganyijwe, undi wo nyabwo utunganyijwe, utegereje kuzatunganywa kugira ngo na wo ubashe guteramo indi myaka izakure neza.

Umuntu ufashe isuka, ndetse n'imbuto, bigaragaza ko agiye kuzitera ahantu runaka, yegeranye n'ahantu hagaragara nk'umurima, hariho indabo, ndetse n'ibindi biti bitandukanye, hakurya hariho urugo rufite inzu ntoya ndetse n'inini.

Mu murima utunganjwe neza kuko harimo insina n'ibindi bihingwa byabasha guteza imbere umuturage, kuko bagiye basasamo ibyatsi bitandukanye, hirya gato hagaragara ko hari undi murima ariko udatunganyijwe kuko ubutaka ntabwo bugaragara.

Ibihingwa bisa naho byangiritse kubera ibihe bibi birimo n'imvura, ariko hakaba hari umuntu ushaka, uje kubisarura ngo arebe ko hari ibyo yaronkamo bikiri bizima, kuko imizi y'ibihingwa yagiye hejuru, bigaragara ko ibyagombaga kuba hasi mu butaka biri kurebeka hejuru.

Umurima urimo insina ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, ubona ko utari wahingwa, ngo babashe guteramo indi myaka uretse imigozi y'ibijumba igaragara nkaho itari yabasha kuzamuka ibashe kuba yagera hejuru, ikure.

Umurima urimo ibyatsi bigufi ndetse n'ibiti birebire bigaragara ko byera imbuto z'ubwoko butandukanye, bigaragara ko bawuraje batakiwuhinga ahubwo baretse kugira ngo ibiti bibashe kuzamuka byere imbuto nyinshi zabafasha kwihaza mu biribwa.

Ibihingwa bitarera neza ariko ubona ko byatangiye kuzana uruyange, bifite amababi meza y'icyatsi, bigaragara ko byabonye imvura ihagije ndetse ikirere cyabikundiye, kuko ubona ko nibyera bizatanga umusaruro uhagije.

Umuntu ufashe urubuto rwatunganyijwe ruteganyijwe guterwa, hariho n'izindi ziri ku ruhande, na zo bigaragara ko zifite igikuriro kimwe n'ubwo ngubwo. Hasi hariho ibitaka bigaragara aho ziteretswe, ndetse iruhande rwazo na ho hariho ikirere kizazifasha kugira ngo zikure.

Umugabo uri mu murima wiganjemo itsina ndetse n'ibishimbo areba ko imyaka ye iri gukura neza, ari kwitegereza akareba hirya no hino ndetse yambaye ikabutura agapira kajya gusa n'igitaka, arabyibushye bigaragara ko ibiva mu buhinzi byamunyuze.

Ibirayi byakuwe mu butaka kuko byamaze kwera, ibirayi bifite ibara ry'umweru byinshi ni binini ndetse n'utundi dutoya bigaragara byeze neza ubutaka butari umukara cyane ndetse bibufasheho kubirayi byashyizwe ku ruhande kugira ngo bizatorwa neza.

Igihingwa kigaragara nk'uburo basaruye, bakaba bari kugitunganya kugira bazabashe kukijyana ku isoko kimeze neza abaguzi badashobora kucyanga, ahubwo bazabonemo amafaranga ashobora gutunga umuryango, ndetse akaba yakora n'ibindi, kiri ku ihema, kuri shitingo ndetse imeze neza, bigaragare ko kitatobora ngo kigere hasi.

Itungo rigufi riri gusuzumwa na baveterineri cyangwa ababigize umwuga mu ndwara z'amatungo kugira ngo barebe ikibazo ifite, urabona ko iri aho yororerwa itameze neza cyane, ndetse hariho imbaho ndetse n'abantu babiri buri wese yafashe uruhande rumwe n'undi urundi.

Umuti ukoreshwa mu buhinzi, aho ubona ko ufite amagarama magana atanu, ndetse n'ibindi biwuranga, bigaragara ko ari umuti wemewe ku isoko, wifashishwa n'abaturage kugira ngo umusaruro wabo uzabashe kuba uhagije.

Imiti ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi, kuko harimo byiganjemo amashusho y'inka ndetse n'andi matungo, ishobora kuba yavura iri mu kabati gasa neza, katunganrijwe gafite ibara ry'umweru kandi no mu macupa manini bigaragara ko hari imiti ihagije.

Umuti wifashishwa mu kuvura amatungo kuko ushushanyijeho amatungo atandukanye ukaba wemewe kuko hariho ibirango byawo ariko ufite garanti nini. Hari izina ryayo ryiza cyane ndetse ugaragara neza bigaragare ko wabitswe neza ndetse ukaba umeze neza.

Umuntu uri gutunganya umurima w'aho bazatera imyaka, ndetse ubona ko yambaye imyenda yabugenewe harimo bote ndetse n'indi myenda yamurinda imbeho ndetse no kugira ngo yangirike ari gutunganya ibihingwa.

Ibigori byasanwe hariho umuntu uri gutunganya imyaka yasigayemo kugira ngo na yo imere neza, hirya gato hari igishanga ko cyeramo imiceri, ndetse n'ibiti birebire bikeya bigaragara ko birinda imirima ihingwa aha hantu.

Umurima urimo gutunganywa ariko ukirimo ibindi bihingwa birimo nk'imyumbati, ni abantu bari gutema ibishobora gukingiza abantu kugira ngo bazabashe kuhatera indi myaka itunganye. Hariho akayira gatoya kagaragara ko gacamo abantu batandukanye.

Umurima urimo abakozi batandukanye barigukorera imboga kugira ngo zizakure neza. Harimo abambaye ibikoresho byabugenewe ingofero kugira ngo bataza kuyitera ibitaka, inkweto zabugenewe kugira ngo bataza gukandagira imyanda ndetse bafite amasuka yo gukoresha bahinga kugira ngo bakore neza.

Abaturage barimo gutunganya ubutaka buzahingwaho harimo ibindi bihingwa akaba ari igigwa cy'urutoki, hakuno hari urubingo, aho batunganya harimo n'insina zishobora kuba zakorana n'iryo bazagezamo.

Ububiko bw'ibiribwa byo kwifashisha mu rugo, kuko hariho ibirayi n'igitoki bigaragara ko ari aho babika ibyo kurya, baza guteka mu bihe bitandukanye. Mu rugo ndetse hakaba hagaburira abantu batari benshi cyane.

Abantu bari gutunganya aho amazi azaca kugira ngo atazabasha kwangiza ibihingwa bitandukanye, urabona ko ibitaka bari kubishyira mu nzira bakabikura ahantu amazi yakwangiza ubutaka, ibihingwa bizere neza.

Ibihingwa bitandukanye ndetse byegeranye n'ibyatsi ku ruhande harimo ibyo kurya, ibijumba barundiye ahantu hamwe bigaragarako bari bamaze kubisarura, bategereje kuba babiteka bigatunga abantu.

Ishyamba rigizwe n'ibiti birebire ndetse hasi hariho utwatsi tugufiya, bigaragara ko ryatunganyijwe neza kugira ngo ribashe gutanga umwuka mwiza ndetse ribashe kuba ryakurura n'imvura ku bantu barituriye.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye harimo amateke, harimo ibijumba, ibinyomoro, insina ndetse n'ibindi bitandukanye, bigaragara ko ari ibyo umuturage yahinze kugira ngo abashe kwihaza mu biribwa, bityo abashe kubaho afite umubiri utekanye.

Ishyamba rigizwe n'utwatsi dutoya ndetse n'ibiti binini cyane, bimeze nka sipure, rifite ikirere kidakeye cyane, bigaragaza ko ari ishyamba ryiza umuntu ashobora gusura, ndetse akaba yagira ubuzima bwiza bitewe n'umuyaga cyangwa se umwuka mwiza waba urimo.

Ibihingwa bitandukanye cyane cyane ibinyomoro, bigaragara ko hari umuntu uri kureba ko biri kwera neza, agenda abigenzura kugira ngo arebe niba bishobora kongeramo imiti cyangwa se ashobora kubikorera kugira ngo birusheho kugenda neza.

Umurima wegereye umuhanda, harimo indabo ndetse na pasiparumu, aho ubona ko umuntu ashobora kugenda akahicara, akumva umuyaga umugeraho, akamera neza mu mubiri, ndetse abasha kuba yaruhuka neza.

Abantu b'igitsina gore babiri bafashe intoryi nini cyane bigaragara ko aho bavuye kuzisarura heze, inyuma yaho hariho ibindi bihingwa bitandukanye harimo icyo gihingwa k'intoryi ndetse hari n'insina n'ibindi biti bitandukanye. Biteguye kujyana umusaruro wabo ku isoko kuko bungutse.

Umuhanda wa sima ukikijwe n'indabo z'ubwoko butandukanye, hari iz'ibara ry'umutuku, izindi ziri mu ibara ry'icyatsi, iruhande gato na none hari pasiparumu, bigaragara ko uyu muhanda ushobora kuba ugiye ahantu mu rugo.

Igihingwa cya avoka kimeze neza kuko urabona ko kwitabi rimwe ryajeho avoka zirenze enye ndetse ibibabi byazo bigaragara ko bitoshye, bigaragara ko iki gihingwa cyafumbiwe neza ku buryo bugaragara nyiracyo azabona umusaruro utubutse.

Igihingwa cy'ubutunguru bigaragara ko bumaze gukura. Hakikijwe n'uruzitiro rugizwe n'imbaho, hasi hari ubutaka bigaragara ko hashize igihe kitari kinini bukorewe, ahandi harimo n'utuboga dutoya turi kumera muri ubwo butunguru hagati.

Ahagurishirizwa imbuto zitandukanye, harimo ibinyomoro ndetse n'ibindi, aho hasi hagaragara ko hadasa neza, hari ibara ry'umukara. Hari hari agakarito, ahandi hari imbaho zishobora kuba zibitangira, kugira ngo bitabasha kwangirika.

Ahantu hari indabo zitandukanye hariho na pasuparumu, bigaragara ko ari mu rugo, umuturage ari indabo yateye kugira ngo zijye zimuzanira umwuka mwiza, ndetse nabasha no gukenera ahantu ho kwicara hatuje, abe yakwicara muri pasuparumu amererwe neza.

Imirima itandukanye aho hamwe hasa n n'aho barangije gusarura bategereje gutera kuko hahinze, ahandi hari ibihingwa bigufiya n'ahandi hari ibihingwa birebire, ndetse hirya cyane hari amapoto y'amashanyarazi agaragara ko asa n'ahantu h'icyaro.

Imboga n'imbuto ziri mugakoreho kameze nk'akabase aho hariho intoryi ndetse na karoti na yo iri hasi bigaragara ko bagiye kubitunganya ngo babashe kubiteka.

Igihingwa cy'ipera ndetse n'ibiti birebire. Hasi hari uduti dutoya tugaragara nk'ubwatsi. Hirya gato hari urugo, bivuze ko ibihingwa biri inyuma y'ahantu abandi bantu baba, bashobora kuba batuye.

Abantu bari gutunganya imbuto zishobora kuzaterwa bahagarariwe n'abandi bigaragara ko bari kubagira inama ku buryo zitunganywa. Imbere yaho hariho urugo bigaragare ko ba nyirurugo aribo baziteye cyane hariho umurima urimo intoki ndetse n'abandi bana babiri bicaye hasi.

Umugore uvuye mu gishanga gusarura ibihingwa bitandukanye. Inyuma gato hari umuceri ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye bihakikije bigaragara ko hari igishanga cyera cyane, abantu bakwifashisha mu gutera imbere.

Aho bacururiza hariho amashu, ndetse n'ibindi byo kugura umuntu yagura agateka, byiganjemo imboga z'ubwoko butandukanye, bigaragara ko ari n'uwahakora kugira ngo abaje guhaha abashe kubapimira ndetse no kubaha ibyo bakeneye neza.

Mu rugo bakoze akarima k'igikoni bateramo imboga zo kwifashisha mu byo kurya batetse urabona nako iruhande rwaho hasukuye inkari y' igiti kigaragara nk'ikirekire ndetse uruhande hariho utundi tugufi bigaragara ko ari ibyo kwifashisha mu gihe bakeneye guteka.

Aho bacuruza imboga, aho hari imboga rwatsi ndetse n'akaroti, aho abantu baza guhahira imboga zitandukanye, bakarya iteka ibiryo by'inyongeramubiri kugira ngo umubiri wabo ubashe kumererwa neza.

Abaturage b'ibitsina bitandukanye bari, aho imbuto ndetse n'ibiti muri rusange birererwa kugira ngo bizakure ibyoterwa mu mirima bizavemo umusaruro uhagije, ubona ko bari kuganira ku ngingo zitandukanye, izo mbuto zirubakiwe zimeze neza, bigaragara ko zizatanga umusaruro uhagije.

Ndabona igiti cy'umukindo gikoreye neza hariho umucaca hasi, utwatsi tugufi ndetse n'uruzitiro ruri iruhande. Hirya gato ubona ko hariho igiti cya voka n'insina ziri kugaragara aho ahantu heza cyane umuntu yakwicara akaruhuka.

Abantu batandukanye hariho igitsina gabo n'igitsina gore, bari gutera imbuto ku butaka bwamaze gutunganywa, ibi bigaragara ko buri wese afite urubuto ari gutera kugira ngo imbuto zizamere neza, bahereye ku mutabo umwe basuwe, nibarangiza bashobora kujya no gukora ahandi.

Intoryi n'amateke biri mu muririma urimo gutunganywa n'mugabo ufashe ibase y'icyatsi, yambaye hejuru umuhondo ndetse harimo n'undi muntu utagaragara neza. Hirya gato harimo ibishyimbo n'ahandi hari ibiti bitagaragara neza.

Umuturage uri mu murima ufite ubwanwa bwinshi wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'igitaka, ari kwitegereza umusaruro we uko umeze neza, ariko urabona ko hari imyaka myiza ijishe izatanga umusaruro, hakurya hariho n'imirima ihinze ariko ikirere gisa naho kitagaragara neza, bigaragareho ariko ari mu gihe cy'imvura.

Abantu babiri bari kureba ko ingemwe zabo zakuze neza, ziteguye guterwa, umwe ari ku ruhande rumwe n'undi ari ku rundi ruhande, harasakaye ndetse harubakiwe ku buryo bugaragara.

Umurima uhinzamo ibitoki, bifite amakoma y'icyatsi ashishye cyane, bigaragara ko bakoresheje ifumbire ihagije, mu gutera iki gihingwa, kuko kirashishe cyane.

Urugo rurimo igihingwa cy'ipapayi, aho igice kimwe cyakuze kikagera hejuru ikindi gice kikaba Kiri hasi, hirya hakaba hariho inzu igaragara ko iy'umuturage ushobora kuba yarateye urubuto, kugira ngo ruzakure ajye arwifashisha nk'intungamubiri zimutunga.

Umuntu uri gufuhira imbuto kugira ngo zizabashe kwera neza. Ubona ko zigabanyije mu byiciro kugira ajye abona aho akandagira mu gihe ari kuzifuhirira. Hirya gato hari umurima utaratunganywa, ahandi yegereye ntago arahageza amazi, bigaragara ko na ho arayahageza nyuma.

Umamama uri kumwe n'abana, bari ku isoko bavomeraho amazi, hariho amabase, amasafuriya, indobo, ndetse n'umurima wo hirya w'ibigori, bigiye kwera hirya gato, akaba ari umusozi munini.

Umuntu w'igitsina gore ari gufuhirira imyaka kugira ngo izabashe kwera neza nta nkomyi. Urabona ko ari gukoresha amazi meza, ari mu ndobo y'umweru.

Ahantu ho mu gishanga, aho umugabo ari kuvoma amazi akoresheje ibase ayashyira mu ngunguru, yambaye ibikoresho byabugenewe, afite n'ijerekani ndetse yambaye ikabutura ,yambaye n'isengeri, ndetse n'ingofero. Bigaragara ko aha hantu hazaterwa imyaka, ko bari gutegura amazi bazakoresha bafuhira iyo myaka.

Gishanga kirimo igihingwa cy'umuceri, harimo umuntu uri kugikorera, hakurya gato, hari ishyamba ry'ibiti byinshi cyane, ishanga kirimo amazi ashobora gufasha umuceri kugira ngo ubashe kwera neza uzatange umusaruro uha.

Igishanga kirimo ibihingwa bitandukanye byaba ibigufi, hirya hariho ishyamba rigaragaramo ibiti bitandukanye. Ibigufi bigaragarako ari ibijumba bateyemo, hariho amazi ashobora kuba abifuhirira kugira ngo bizere neza.

Indabo, ibiti birebire, ndetse hirya gato bigaragara ko hari igishanga gihingwamo ibihinga bigufi birimo n'umuceri kuko hariho n'amazi abifasha gufuhirwa kugira ngo byere, hirya gato bigaragara ko hariho n'ishyamba ry'ibiti birebire bitandukanye.

Mu murima urimo igihingwa k'imboga cyatunganjwe kuko hari ibyatsi bagiye bagisasira kugira ngo kibashe gukura neza, gishishe kizatange umusaruro uhagije mu gihe kirenga imbere.

Igishanga kirimo ibihingwa bigufi kuko hariho amazi abifuhirira, ndetse hakaba hariho ishyamba hakurya n'akazu gashobora kuba kari hagati, umuntu urinda ibyo bihingwa araramo kugira ngo bitibwa.

Amazi atemba ari menshi, akikijwe n'imirima iruhande, hakurya hatuwe abantu benshi, bigaragara ko hari amazu menshi, ndetse hakurya cyane hariho urutoki, bigaragara ko ari ahantu hahingwa. Aya mazi yifashishwa mu gufuhirira ibihingwa byegereye aha hantu.

Icyuzi kirimo amazi menshi, bigaragara ko iyo amazi yiyongereye ashobora kwangiza ubutaka buhegereye, hejuru hari inzu igeretse ndetse ifite n'uruzitiro, hirya gato hari amashanyarazi, bemeza ko aya mazi abaye menshi cyane, ashobora kwangiza ibikorwa remezo bitandukanye.

Umurima bigaragarako uri mu gishanga gihinzemo umuceri, ndetse no hirya gato hari amatarasi y'indiganire aho na ho hahingwa ibihingwa bitandukanye, hirya cyane hakaba hariho amazu bigaragarako ari ahantu hatuwe.

Ikibuga cy'umupira ndetse kegeranye n'ishuri, aho abanyeshuri bari gukina bambaye impuzankano yo gukinana n'imipira bigaragare ko amasomo yarangiye bakaba baje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo basubire kwiga bameze neza mu mubiri.

Abantu benshi biganjemo abana hariho n'abatungo magufi, bari mu muhanda ufite ibara ry'umutuku bigaragare ko ashobora kuba agiye kugurishwa, hari n'undi muntu uri ku igare bigaragare ko akurikiye ayo matungo ngo arebe aho ajyanwe.

Itungo ry'ingurube irimo kurya ibyo ayiteguriye iri mu imubara rijya gusa n'umweru, bigaragare ko yari ahantu hatari mu kiraro ikikijwe n'ibyatsi bitandukanye hahagaze ku butaka ndetse irabyibushye yariye neza.

Urugo rw'umuntu hariho itungo ry'inkoko, ibiti byumye bashobora gucanisha igihe batetse ndetse hakaba hariho n'aho bororera izindi nyamaswa ngufi zo mu rugo, akaba yanitse imyenda akaba ategereje kugira ngo yume.

Aho bororera amatungo y'inka, kuko hariho ikiraro zibamo ndetse n'ibyo ziramo, bigaragara ko hari n'umuntu umaze kuzigaburira, kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza, zizatange umusaruro mwiza urimo: ifumbire, amata, ndetse n'ibindi bazikeneraho.

Ahantu hari abantu batandukanye bafite amatungo bigaragara ko hari aho agurishirizwa, bari kuyerekana buri wese afite itungo rye agaragara ko ari inkwavu ndetse hariho n'utubati tugaragaraho ko ari ho zororerwa.

Inka zo mu ibara ry'umukara ziri mu kiraro ndetse n'ihene ziri hanze y'ikiraro bigaragara ko aho ngaho hororerwa hasi hari ubwatsi zamaze kurisha ndetse ziri mu kiraro cyubakishije imbaho nyuma yaho hari urutoki kuko hagaragara amakoma. Ihene ziraziritse cyane ndetse n'inka ni uko.

Umumama uhetse umwana, ari kureba amatungo magufi yoroye, niba ari kurya ubwatsi yayageneye neza, urabona ko itungo rimwe rifite ubwatsi bukiri icyatsi cyane bwiza, n'irindi riri ku ruhanda yose ari kurisha.

Umuhanga mu by'imiti y'amatungo ndetse no kuyavura arimo gutera urushinge inka iri mu ibara ry'umukara iri mu kiraro kugira ngo ibashe kumererwa neza bigaragare ko yari ifite uburwayi butandukanye.

Ahantu hororerwa inyamaswa zo mu rugo, cyane inkoko zitunganywa kugira ngo zizatere amagi meza ndetse zibashe gutanga umusaruro uhagije kuri ba nyirazo, akaba ari ahantu hari urumuri hameze neza cyane.

Ihene y'ibabara ry'umweru n'umukara iziritse ku biti byumye, bigaragara ko nta bwatsi ifite, ahubwo ibiri imbere yayo byumye itashobora kubirya, ishobora kuba inashonje ifite inzara.

Ikiraro cyororerwamo inka, aho hari inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, bigaragara ko aho iri hadatunganijwe neza kuko hariho ibyondo, ariko icyiza nuko yubakiye neza ishobora kudatana ngo ijye konera abatu.

Inkoko y'ibara ry'umukara n'umutuku, iri ahantu mu rugo aho iri kureba mu muryango ihagaze ku butaka. Bigaragare ko iri gushaka ibyo yatoragura byayibeshaho mu buzima bwayo.

Ingurube iri mu kiraro aho yororerwa bigaragare ko hadakoreye neza, kuko iri guhunga icyo iriramo ikabasha kujya ku ruhande hashobora kuba hameze neza, ikiraro kitameze neza kuko bigaragara ko ishobora gucamo ikajya kona.

Abaturage batari bake bari kureba inka aho yororerwa niba imeze neza, cyangwa se niba ishobora kuba yahuye n'uburwayi bakaba bayivura, cyangwa se yahamagaza ushinzwe amatungo uwabyize kugira ngo agire icyo abi

Umwana ukiri muto bari kumwe n'umukecuru, bari kuragira amatungo magufi y'ihene kugira ngo arishe abashe kubona ubwatsi abeho neza, bigaragara ko umwana ashobora kuba ari we uri kuyitaho cyane.

Inka bigaragara ko iri ahantu yororerwa, aho idafite ubwatsi ariko bigaragara ko kandi yananutse kubera kutarya neza, ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru itegereje ubwatsi kugira ngo abashe kuba yarya.

Inka y'ibara ry'umweru n'umukara iri ahantu hagaragara ko ari ikiraro, hahomesheje n'ibyondo ndetse hasi hari ubwatsi bigaragara ko yariye, iruhande ryayo hari ahantu irira bigaragara ko itari yabona icyo kurya ahubwo igitegereje.

Umurima wateguwe neza kugira ngo uterwemo imbuto zitandukanye, aho hamwe hasakaye hari ibiti bishinze, ahandi hadasakaye bigaragara ko igice kimwe bagikoze neza, ikindi kidakoze neza ndetse hirya gato hagaragara amazu, hirya na none handi hari imirima idatunganyije.

Igishanga kirimo ibihingwa bigaragara ko ari umuceri bahinze kugira ngo uzabashe gutera imbere, ndetse ukure cyane uvemo amazi utoshye, kugira ngo uzabashe gutanga umusaruro wuzuye ku bawuhinze cyane ko hejuru hari ishyamba rigaragaza ko amazi abasha kuhagera ku buryo buhagije.

Igihingwa cy'imyumbati myinshi cyegereye umuhanda, umwe umanuka undi utambika bigaragare ko ari ahantu ho mu gishanga kuko bigaragare ko ari hanini cyane, hirya gato hari igisa n'igitari kiriho ibiti bitandukanye, ibiti by'imyumbati bimeze neza cyane, byareze bihagije.

Igihingwa cy'imboga, gikikijwe n'amatafari, bigaragare ko yubatse, aha ngaha ari mu rugo, umuntu ari aba yarahinze kugira ngo yifashishe mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo atazagira ibibazo by'igwingira.

Ibigori byasaruwe bikaba bitse ahantu kugira ngo abashe kubona izuba byaritse kuri shitingi iri ku butaka bw'umukara bigaraga ko nta kirere gihari izuba ryinshi ku buryo byakoma ariko bibonetse byazakuma buryo batunganywa havanwamo ibindi bintu harimo ifu kawunga ndetse n'ibindi.

Imbuto z'inyanya ndetse bafata nk'imboga zimwe zahishije izindi zitari zahisha bigaragare ko uruhande rwaho hari amazi ashobora kuba afumbira izi nyanya kugirango ngo zibashe kwera zifite amababi y'icyatsi ndetse n'uruti rutoshye.

Agahanda Nyabagendwa k'ibitaka gatoya kari hagati y'imirima ibiri, umwe utunganije, undi wa hirya gato adatunganijwe, bigaragaza ko wenda kuzateramo ibihingwa bitandukanye. Bigaragara ko ari ahantu hagendanwa n'abantu ariko, batari benshishi cyane.

Igihingwa k'ibishyimbo cyatunganyijwe neza bigaragazwa n'ibindi byatsi bihasasiye byumye imbere hakaba hariho igihingwa k'imboga bifite amababi atoshye asa icyatsi cyane byabonye inyongeramusaruro ihagije.

Ububiko bw'igihingwa cy'ibigori bitari byatonorwa ngo bijyanwe ku isoko, bigaragare byakuwe mu murima biri ahantu bimanitse hari imigano ndetse n'ibindi biti kugira ngo bibashe kuma neza, bizajyanwe ku isoko bitunganywe.

Inka ziri mu kiraro zifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Bigaragare ko hari abaturage bagera kuri bane bari kubabaza uyu musaza nyiri izi nka, ibyerekeye ubworozi bwe, kugira ngo barebe iterambere rye aho rigeze.

Inka ishobora kuba iri kuvurwa ku kibazo runaka yagize, iri aho yororerwa, kuko hagaragara ubwatsi ndetse yubakiwe n'ibiti bitandukanye birimo imbaho, hariho ikirere cy'umweru bigaragare ko ahantu iri hafite umutekano.

Abantu babiri begereye inyamaswa bigaragara ko hari imwe yapfuye, n'indi itameze neza, n'indi ishobora kuba ari nzima. Ni ab'igitsina gabo banegereye umuhanda ndetse umwe yegamiye igiti, undi ahagaze nta...

Inyamaswa y'ibara ry'umweru n'umukara, bigaragara ko iri mu ishyamba ndetse iri kurya n'ibibabi byo mu ishyamba kuko imbere hari ibindi biti, ibyatsi biyikikije.

Inyamaswa iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru ifite n'umwana wayo, bigaragara ko iri mu ishyamba, rikikijwe n'ibiti bitandukanye, ndetse bifite amabara y'icyatsi, bigaragara ko iri ahantu hatuje, ndetse ikaba yitaye ku mwana wayo.

Ishyamba ririmo inyoni y'umukara ndetse n'umweru ihagaze ku giti bigaragara ko hari ibyo iri kureba, ni ishyamba ry'ibiti binini cyane kuko ubona ko bisobekeranye ari bifite ibitabi binini cyane, bigaragara ko ari ahantu heza ho gusura ku bantu bakunda gusura.

Inyamaswa y'inkende iri ahantu hihereye, bigaragara ko aka kantu yahagazeho kari hejuru y'inzu, kuko hagaragara amabati. Hakurya hagaragara ko ari mu giturage, ari ahantu hatuwe, amashanyarazi, ibikorwaremezo byose birahari.

Ikiraro kinini cyane kiri ahantu ho mu ishyamba, hari umuntu uri kukigendaho, kigizwe n'ibiti byinshi cyane ibigufi ndetse n'ibirebire, kigizwe, gikoreshejwe ibyuma binini cyane, ndetse hariho n'ibindi bimeze nk'insinga bigifashe kugira ngo kitabasha kuba cyakwangirika.

Inyamaswa zihagaze hejuru ku ruzitiro, bigaragara ko ziri kureba ibihingwa hakurya zishobora kona. Inyamaswa ebyiri zitandukanye, aho imwe iri hasi, indi iri hejuru.

Ikiraro kirekire kiriho abantu batatu hasi yaho hariho ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi bitandukanye, abo bantu bigaragara ko bari kwitegereza ikirere bari kureba n'ibyiza bigize aha hantu, bakahishimira cyane.

Aho inyamaswa y'imbwa igaragara iri kumwe n'indi nyamaswa hariho n'ibyatsi bigufi ndetse hagaragara ko hari akayira gatoya gashobora kuba kanyuramo abantu. Biragaragara ko iyi nyamaswa yahagiriye ikaba yakoze urugendo rurerure kuko umurizo wizinze ndetse biragaragara cyane.

Igikona gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara kiri mu kirere, ikirere gifite ibara ry'ubururu bigaragara ko kirimo kugenda gitembera gishaka aho cyabasha kubona ibyoku kurya.

Ishyamba rya Nyungwe kuko hari icyapa kibigaragaza ujya kwinjira mu ishyamba rifite ibiti ndetse n'umuhanda wa kaburimbo ugiye muri iryo shyamba, bigaragarako hariho akazu gato kari mu mabara y'icyatsi ,umuhondo ndetse gashakaje amategura ,bakiriraho abantu bashaka kwinjira muri iryo shyamba.